Umukobwa uhagaze yitonze, arimo kwitaba terefone, ibyo yari afite abifashije hasi, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari ahantu hagaragara ibara ry'umweru n'ubururu.

Abagabo babiri bahuriye imbere y'imodoka nini y'umweru barimo gusuhuzanya hagati yabo hari icyapa kibatandukanyije, umwe afite agakapu k'umutuku, barimo barasuhuzanya bishimye kandi banezerewe nk'abantu bakumburanye.

Akabati ni igikoresho kidufasha kubika ibintu byacu neza, ibikombe, amasahani ndetse bikagira umutekano kugira ngo bye kujya hirya no hino mu masaro iwacu, bidufasha kubika amazi yo kunywa meza.

Umukobwa ufite telefone mu ntoki igaragara ko yanditseho mobiyiro mane, arimo kudushishikariza kujya twibikira kuri mobiyiro mane, kugira ngo ducunge neza umutungo wacu kandi banatugurize twunguke.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe batuje bari mu nama bateze amatwi urimo abigisha, hari n'ameza ariho mashini hari n'intebe z'umukara, barimo kwiga ibyabagirira akamaro ngo bubake igihugu cyabo mu mahoro.

Ahantu hari ababyeyi b'abama bicaye batuje, umwe akikiye umwana mu ntoki, bambaye imyenda itandukanye, bafite amafishi mu ntoki zabo, bategereje uwabafasha ngo barangize gahunda bajemo.